Umuhanda urimo imodoka ebyiri imwe iri mu ibara ry'umweru, indi iri mu ibara ry'umukara, abantu batatu, babiri bagenda n'amaguru undi umwe agenda n'igare, ibyuma...